Leta y'u Rwanda ya ibinyujije mu bintu byinshi biye byatandukanye, yashyizeho gahunda y'urubyiruko kumenya amateka yarwo. Ibi bigakorwa mu matsinda agiye atandukanye kugira ngo urubyiruko batange n'ubuhamya bw'ibyo banyuzemo.

Mu nama iteraniyemo abantu benshi, igitekerezo cya buri wese kiba gikenewe kugira ngo gishingirweho hafatwa imyanzuro ku kibazo runaka kizweho muri iyo nama, bityo rero tugire umuco wo kujya tumenya no gutanga ibisubizo ku bibazo birambye, bimaze igihe.

Niba hatowe komite nshyashya igomba kuyobora iyo manda na yo ntigomba kwicara kuko icyo cyizere baba bayigiriye igomba no kukigaragaza ko ishoboye bityo bakajya bakorana inama nka komite mbere y'uko bagira icyo baganiriza abaturage.

Buri tsinda ry'abantu benshi rigomba kuba rifite umuyobozi uriyobora kubera yuko ari we ufasha aba bantu guhuza ibitekerezo ndetse bakabishyira hamwe kugira ngo bagire icyo bageraho.

Nyuma y'amahugurwa haba hagomba kubaho igikorwa gihuza abantu, cyane cyane icy'imyitozo ngororamubiri kubera ko iyo bahuye barasabana, bakaganira kubera ko byamenyekanye ko imyitozo ihuza abantu.

Mbere y'uko utambutsa ubutumwa runaka ku kintu, ugomba kubanza gukora ubushakashatsi kuri cyo ugatanga amakuru yizewe kubera ko iyotanze ibintu bitizewe nawe ubishidikanyaho nta mumaro bitanga na mba.

Ikigaragara cyo umuco nyarwanda wa kera ntabwo ugihuye n'ubu kubera ko ubu haje imbyino zitwa iza kizungu abantu akaba arizo bahaye umwanya cyane, bityo bigatuma umuco wacu ugenda ukendera.

Iyo Abanyarwanda ba kera babohaga ibyibo, wasangaga bitatse amabara meza kandi nyuma y'ibyo bakoraga imitemeri yabyo, kugira ngo bazahunikemo imyaka cyangwa babikemo ibindi bintu.

Mu muco wa kera habagaho gusya amasaka bityo bigatuma bayakoramo inzoga ariko ubu bigenda bicika gake gake nta bantu bagikunze kubikora cyane nka mbere.

Mu muco nyarwanda ububyinnyi bwahozeho kandi n'ubu buracyariho, aho usanga mu bigo by'amashuri batoza abana cyane cyane b'abakobwa kuba babyina bakazanabikina mu marushanwa.

Mu muco Nyarwanda, umuco wo kubyina ntiwigeze ucika na rimwe, kugeza ubu uracyakorwa mu buryo bwo kwishimisha, cyane cyane barimo barishimira ibyo bagezeho, bagasabana binyuze no mu mbyino.

Mu muco nyarwanda abategarugori bakundaga kubyina barangambuye amaboko ariko ubu basigaye babikora mu buryo bw'amarushanwa ndetse bagahembwa n'amafaranga atagira ingano.

Kera wasangaga ibikoresho gakondo byarabikwaga ahantu habugenewe kubera ko ibihugu byakundaga kujya ku rugamba akenshi, bigiye kurwana, bikaba byabyitwaza bikabikoresha.

Umuziki wa kera utandukanye n'uwubu kubera ko bagiraga ibikoresho by'umuziki ndetse byacurangwaga n'abahanga gusa ariko ubu haje ibya kizungu bisaba ko buri wese yiga ndetse anakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo abimenye neza.

Ntako bisa nko kubona urubyiruko rwizihiwe rurimo rurabyina kandi ubona ko hari ibintu bishimishije, kubera yuko bituma abantu bumva siteresi z'akazi bari bafite zigabanutse.

Mu muco wa kera habagaho icyo bita ubu bumbyi kubera yuko byagiraga amafaranga menshi, ariko kubera ubuhaje iterambere, ntabwo bigikorwa cyane byashyizwemo imbaraga nkeya.

Imbaraga z'urubyiruko zigomba kuba umusingi ukomeye mu kubaka igihugu, kubera ko ntabwo tuzategereza imbaraga z'abantu bashaje, kuko ziba zaramaze kuba nkeya.

Gahunda yo kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi ku baturage irakomeje kubera ko u Rwanda rufite intego y'uko buri Karere ndetse na buri muturage azagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bidatinze.

Imiriro y'amashanyarazi cyane cyane aya mapoto y'ibyuma akunze kuba ariho insinga nyinshi, si byiza ko tuhegera kuko bishobora guteza impanuka tukabura ubuzima bwacu.

Si ahantu hose uzasanga hashyizwe ingomero z'umuriro w'amashanyarazi kubera yuko mbere y'uko baziyashyira, barabanza bakahapima, bakagenzura buri kimwe cyose cyakangiza ayo mashanyarazi kikavanwamo.

Kimwe mu bintu bituma Igihugu gishyira imbaraga mu bigendanye no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ni uko byagaragaye ko ahantu hatari amashanyarazi nta n'iterambere rikunze kuhaboneka.

Uzasanga akenshi iminara itanga itumanaho, ishyirwa ahantu hegereye amashyamba kugira ngo irindwe mu buryo bwiza ndetse inazengurutswe n'ayo mashyamba ku buryo atari buri wese uyijyaho.

Buri muntu wese siko yemerewe kurira ipoto ry'amashanyarazi ahubwo bikorwa gusa n'ufite icyangombwa cyabyo ndetse akaba yambaye n'impuzankano igaragaza umushinga akorera.

Umushinga wo kudoda byagaragaye ko ubamo amafaranga menshi ariko na none uwo mwuga urigwa kandi ukamenywa ntabwo bivuze ko bifite bamwe bireba ahubwo ni ibya buri wese.

Ingomero z'amashanyarazi ntabwo zishingwa aho ari ho hose kubera ko habanza hagapimwa kubera ko bizwi ko zizirana n'ahantu hari amazi, bagomba kwitonda mbere y'uko bazihashinga, bakareba niba ntaho zahurira na yo.

Burya abantu bakora mu murimo wo gusangiza abandi ndetse n'abaturarwanda umuriro, kugira ngo gahunda yo kubona umuriro ku muturage wese igerweho, bakora akazi gakomeye cyane.

Iyo amashanyarazi yagize ikibazo twitabaza umukozi ubishinzwe kugira ngo aze arebe ikibazo yagize, aho kugira ngo twishoremo tubijyemo kandi tutarabyigiye.

Ahantu hose hari igicumbi cy'amashanyarazi tugomba kuhabungabunga tuharinda ibintu byose byayangiriza kubera yuko burya umuriro w'amashanyarazi ushobora gutuma abantu benshi bapfa cyane.

Niba hari ikintu igihugu gishyiramo imbaraga muri iyi minsi ni ukuba bageza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zose zituye igihugu, kubera y'uko hari ikigero kimwe bavuyeho mu myaka ishize hakaba hari n'ikindi bagezeho mu iterambere.

Iyo umuntu akora mu bigendanye n'umuriro w'amashanyarazi agomba kuba afite buri kimwe cyose kigaragaza ko ari umukozi wabyo nko kuba yambaye impuzankano ndetse afite n'ibindi bikoresho byabugenewe.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni bimwe mu bigomba kwitabwaho cyane, bikamenywa ndetse bikanarindwa kubera ko bigiriye akamaro abaturarwanda, byamenyekanye ko byabakuye mu kizima.

Iyo utitonze ukurira ipoto iriho insinga z'amashanyarazi umuriro ushobora kugutwika ndetse ukaba watakaza ubuzima, niyo mpamvu atari uwo ari we wese ujya muri ibi bikorwa ahubwo agomba kuba afite amahugurwa ahagije.

Mbere y'uko twinjira mu miriro y'amashanyarazi, si byiza ko tuyijyamo tutarabyigiye kuko dushobora guteza impanuka. Nyamara n'uwabyigiye ajya abikorana ubwige bwinshi kugira ngo arinde ubuzima bwe n'ubw'abandi.

Imwe mu myuga yakunze kugaragara cyane ko igira amafaranga menshi mu Gihugu cy'u Rwanda ni ukuba wakiga umwuga ugendanye n'imikoreshereze y'umuriro w'amashanyarazi kubera yuko ibi bikora ahantu hose hageze umuriro.

Buri rugo iyo ruhawe umuriro rugomba gushyirirwaho Cash Power, ni ukuvuga agakoresho kagenzura umuriro wakoresheje ndetse n'uwosigaranye kugira ngo umuturage ataza gutera amahane ngo yibwe umuriro we ushiramo vuba.

Ingomero zose z'amashanyarazi aho ziva zikagera zigomba gushyirwa ahantu habugenewe kandi hizewe umutekano waho kugira ngo bitazateza siriko, bikaba byatuma hari ibintu byinshi byangirika.

hamwe mu hantu hataragera umuriro w'amashanyarazi hakunze gukoreshwa imirasire y'izuba mu buryo bwo koroshya ubuzima, ni byiza rero ko dukangukira kugura imirasire kugira ngo turwanye umwijima ukundi.

Iyo ugeze ahantu hari inyubako zanditseho girubuzima, umenya ko hakorerwa serivisi zo gutanga ubuzima bwiza ndetse no kugira inama abaturage uko bahagera kuri ubwo buzima bwiza.

Mu gihugu hagiye hakwirakwizwa ubwubatsi n'amazu manini ndetse ayo mazu akaba yanditseho n'amagambo cyane cyane agatanga serivisi zishishikariza abaturarwanda kugira ubuzima bwiza.

Leta yakunze gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwaremezo, birimo amavuriro ndetse n'ahandi hatangirwa serivisi zihabwa abaturage kugira ngo ahore hakeye kandi hishimiwe na buri wese.

Byiza ko hakwirakwizwa inzu zigenzurirwamo imiti, mbere y'uko ihabwa ababyeyi n'abarwayi n'abandi bantu batandukanye. Ibyo rero bikadufasha ko bayibaha ntigire ingaruka mu mibiri yabo.

Iyo ugeze mu Karere ka Nyagatare Umurenge wa Gatunda Akagari ka Nyamirembe n'Umudugudu wa Kirindimure uhasanga indangagaciro ndetse na kirazira zibaranga kubera y'uko babyanditse ku gicumbi cyabo.

Amashuri yo mu migi ni yo azi uburyo bwo kubaka agerekeranije amashuri ariko iyo ugeze mu byaro usanga hari amashuri ari hasi gusa ku murongo umwe kugeza uyasoje.

Nyuma yuko Igihugu kibonye ko hari abaturage bigora kuba bakambuka bava mu karere kamwe bajya mu kandi yashyizeho uburyo bwo kuhubaka ibiraro abantu bakabigenderaho bityo bikaborohereza ingendo.

Kimwe mu bintu bigaragaza ko Akarere kari gutera imbere, ni ibikorwa remezo uhabona harimo nk'amazu asa neza ndetse ayo mazu akaba akurura na ba mukerarugendo kugira ngo baze bayasure.

Abaturage ni bamwe mu bantu bakunze kugorwa no kujyana ibicuruzwa byabo ku masoko bitewe n'uko nta biraro bagira, ariko iyo Leta ibubakiye ikiraro gihuza isoko n'irindi bituma bajyana ibyabo mu buryo bworoshye.

Usanga siporo cyane cyane nk'umupira w'amaguru, uri muri bimwe bikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko witabirwa n'abantu benshi ugereranyije n'ibindi bikorwa.

Iyo ugeze ku nkengero z'Akarere ka Nyagatare, uhabona icyapa kikwifuriza urugendo rwiza kubera yuko uba ugeze ku mupaka uhuza u Rwanda n'Ubugande, bikaba ngombwa ko winjira muri icyo gihugu.

Abantu bagiye gukora igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, bagomba kuba bambaye imyambaro isa, igaragaza ko bagiye kwibuka kandi abo bibuka bakabizirikana, ntibazigere babibagirwa mu mitwe yabo.

Buri mwaka igihugu cyacu kizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, bikabera mu turere tugiye dutandukanye ariko si igihugu cyacu cy'u Rwanda gusa kuko biba byabaye muri rusange.

Nugira amahirwe ugashyirwa mu itsinda ry'abayobozi uzavugishe ukuri kubera ko ubutabera bwamaze kugera mu gihugu cyacu kandi kubikora neza ni inshingano zawe nk'umuyobozi.

Buri mwaka ku itariki ya cumi n'umunani kamena haba umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika cyane cyane, ibi biba ari uguhesha agaciro umunyafurika.

Nyuma y'uko abaturage bamenya ko buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we, ibyo byaborohereje kuba nta kibazo bahura na cyo ngo bakihererane, ahubwo baba bazi ubuyobozi bagana bukabafasha.

Umushoferi utwara moto agomba kwitonda kubera yuko umuhanda uba ukoreshwa n'abantu benshi na we agomba kumenya ko agomba kuwukoresha neza n'abandi bakawukoresha nka we.

Abamotari na bo bakunze kuba inshuti kubera ko bahuje umwuga. Usanga iyo badafite abagenzi baba bari kumwe biganirira, baganira ibyateza imbere umwuga wabo.

Ni byiza ko ahantu hari ivuriro hagomba kuba hari ibyapa bihagaragaza, aho kugira ngo umuntu aze mu mudugudu yirirwa abaririza ngo ese iri vuriro riba hehe ryegereye aha hafi nyamara yakabyisomeye.

Mu magare ya buri Karere hagomba kuba harimo imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bityo rero umuntu ukeneye kuva mu gace kamwe ajya mu kandi bikaba byamworohereza ingendo.

Abashoferi na bo burya ni abantu b'ingenzi kubera yuko bakunze gutwara ibinyabiziga nyamara ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye mu muhanda kubera ko ibiba bigenderamo aba ari byinshi kugira ngo ntugonge ibindi biba bigoye.

Buri karere kagomba kugira igicumbi kikaranga, ni ukuvuga handitse akarere umurenge akagari ndetse n'umudugudu bikaba byiza handitseho n'isibo kugira ngo ugeze muri ako gace amenye aho aherereye.

Abantu batwara ibinyabiziga ni kenshi bashishikarizwa kuba bakita ku byapa byo mu muhanda kubera yuko ni byo bifata iya mbere mu kubayobora, bakaba batakora amakosa mu muhanda kubera ko baba barabyigiye bakabizobererwa.

Umuhanda mwiza ni ukuvuga kaburimbo, ugomba kuba ushushanyijemo ibimenyetso, ku buryo utwara ikinyabiziga ahita abimenya kubera ko nta muntu upfa guhabwa perime yo gutwara ikinyabiziga atarabyigiye.

Abashinzwe umutekano bagomba kuba ahantu aho ariho hose kubera ko icyo baba bashinzwe ni ukurinda uw'abaturage kandi iyo abaturage babayeho mu mahoro na bo barishima bakishimira ubuyobozi bafite.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko umuturage akwiriye kugira umutekano aho ariho hose, yashyizeho ingamba zo kwagura umutekano kugira ngo umuturage abeho mu buzima yumva atekanye.

Ni byiza nk'abaturage ko twitabira buri gikorwa cyose cyatangajwe na leta kubera ko ibyo tuba turi bubwirwe biba ari ingenzi kuri twebwe kandi nta kintu leta yazanira umuturage ari kibi.

Ibikorwa by'umuganda burya biba bikenewe cyane, kuko usanga hari nk'imihanda yasibye, iba ikeneye kongera igasiburwa umuntu akongera akayikoresha ayinyuramo, bikagirira abaturage akamaro.

Nyuma y'uko leta izanye umuco wo kuvuga ngo umuturage ku isonga buri wese yarakangutse ndetse nta wugihisha ibibazo bigaragara mu muryango mugari kuko babishyira ku mugaragaro bigakemuka.

Abantu benshi bakunda siporo ndetse abadashoboye kuyikora, bakunda kureba abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo barakina mu kibuga ,abo barimo nk'abafana baba barihebeye amakipe yabo badashobora kuyatererana na hato.

Mbere yuko amakipe atangira umukino, bagomba kubanza gufata amafoto y'urwibutso, kugira ngo nyuma y'umukino bagumye bayarebe kandi bayasangize n'abatageze ku mukino.

Amarushanwa y'Imirenge Kagame kapu, buri mwaka araba agamije imiyoborere myiza ndetse no guharanira ko umuturage aba ku isonga, ibi bikanyuzwa muri aya marushanwa kugira ngo ubwo butumwa butambuke.

Ubundi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, siporo yashyizwemo imbaraga nyinshi mu buryo bwo kugira ngo abantu baziyunge kandi bongere bunge ubumwe nkuko byahoze mbere.

Mu gihe umuyobozi agize amahirwe hakaba igikorwa gihuza abantu benshi, ni byiza ko ababwira n'icyo yabateguriye kuko akenshi imikino itegurwa hari ikintu kigamije kuba cyabwirwa imbaga nyamwinshi kuko baba bazi ko ziri bwitabire uwo mukino.

Nyuma yuko uburinganire bugeze mu Rwanda imirimo yose yemerewe gukoramo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo cyane cyane biragaragara ko no mu mikino abakobwa cyangwa abagore bayisifura aho kugira ngo isifurwe n'abagabo gusa.

Buri mwaka Igihugu cyashyizeho amarushanwa ahuza imirenge ndetse iyo mirenge igakinana imikino igiye itandukanye hakavamo imwe itsinda iyindi igakomeza gutyo gutyo kugeza aha utwaye igikombe.

Siporo rusange ifasha abantu ibintu bigiye bitandukanye, birimo kuba baganira, bakunga ubumwe ndetse bakaniyumvanamo kuko muri siporo abantu ntibaryana ahubwo baba bahuje umutima.

Abana bakiri batoya cyane bakunda gukina umupira w'amaguru kubera yukouko ari kimwe mu bintu bibashimisha kandi utawubakuyemo bashobora kuwukina bukarinda bubiriraho.

Muganga hari igihe asuzuma umurwayi agasanga afite ikibazo cyuko imitsi ye idakora neza bitewe nuko atajya akora imyitozo ngororamubiri, bigatuma amugira inama zo kuyikora.

Iyo akarere kashyizeho imikino y'imirenge hagomba kuba hari n'igihembo kizahabwa ikipe yabaye iya mbere, igahembwa bishimishije kuko iba yarabikoreye kugira ngo ibigereho.

Iyo umuntu ageze muri sitade aratuza ubundi amaso ye n'umutima we akabihanga ku bakinnyi yaje kwihera ijisho, bityo bigatuma ataha yishimye cyangwa ababaye bitewe n'ikipe ye uko yitwaye.

Mbere yuko ujya gukorera perime yo gutwara ikinyabiziga ugomba kubanza kwiga amategeko agenga umuhanda kubera yuko si ibya buri wese gutwara ikinyabiziga atazi aya mategeko kuko ashobora kwangiza ubuzima bw'abandi.

Ni byiza ko abana bacu tubigisha uburyo bwiza bwo kugendera mu mihanda, bakajya bagendera mu nzira gusa yagenewe abanyamaguru kuko bagendeye mu mihanda ibinyabiziga bishobora kubagonga.

Burya igare ni kimwe mu binyabiziga bidufasha gutwara ibintu byinshi nkuko twabibonye ntushobora kwikorera amabido arenze abiri ku mutwe ariko iyo ufite igare ubasha kuyatwara.

Ahantu hakorerwa serivisi zo gutega ku mikino igiye itandukanye, haba hari icyapa kibigaragaza ndetse icyo cyapa bagakora uko bashoboye hakaba hashushanyijeho n'umupira kugira ngo uhagera wese ahamenye.

Si byiza guhinga iruhande rw'umuhanda kubera y'uko isuri iyo ije ibintu byose wahinze irabitwara kandi ahabugenewe twari kuhatera tukeza imyaka ku kigero cyo hejuru.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda iyo barimo bubaka ibikorwaremezo bagomba gushyira ku ruhande akayira k'abanyamaguru kubera yuko abanyamaguru batagendera mu muhanda nkuwo i imodoka zigenderamo.

Imihanda yo mu cyaro kubera ko aba atari kaburimbo, iyo imvura iguye ikunze kunyerera ku buryo nta binyabiziga ibyo ari byo byose byanyinyuramo ahubwo ugasanga ari imihanda igendwa n'abanyamaguru gusa.

Abantu bakunze kwiga ibizamini byo gutwara imodoka, ni bo bazi imvune zibamo cyane cyane iyo bakoze ikizamini bagatsindwa baba bumva ari nta muntu wabavugisha kuko bataha bababaye.

Umumotari ni umwe mu bantu baba bazi amategeko y'umuhanda ariko usanga abenshi batayubahiriza nkuko bayigishijwe, ugasanga baparika ibinyabiziga byabo ahantu biboneye kandi ari mu muhanda.

Igihe umuntu agendera mu muhanda si byiza ko ajyamo hagati kubera yuko hagati haba hanyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ahubwo agomba kunyura ku ruhande kugira ngo umutekano we ube urinzwe.

Nta kintu kigaragaza ko aho wageze ari mu cyaro nko kubona imihanda iharuye gusa itarimo kaburimbo, iyi mihanda aho ibera mibi iyo haguye imvura iba mibi kuburyo n'imodoka itayinyuramo.

Abantu bamenye ibanga yuko igare ari ikinyabiziga gitwara ibintu byinshi, umuntu ashobora gushomba akaruha bityo bakarikoresha batwara imizigo iremereye abantu batashobora.